Umugabo wambaye ipantaro y'umukara uhetse ipombo ari gufuhira imyaka kugira ngo yice udusimba tuba twayifasheho kugira ngo yongere umusaruro ndetse ubone n'amafaranga yo kurihira abana ku ishuri.

Abaturage babyukiye mu kazi ko gufuhirira imyaka yabo, umuceri kugira ngo bongere umusaruro, babiri, bayirinde kuma ndetse bice n'udusimba turimo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru n'ingofero, wambaye nagapfukamunwa, wabyukiye mu murima w'umuceri, yaje gutera umuti kugirango ngo yice udusimba tute kuwangiriza kugirango ngo azabone umusaruro.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa ari gufuhirira ibiti kugira ngo yice udusimba ndetse bimufashe kongera umusaruro kandi bimufashe no gutera imbere.

Umugabo uhetse ipombo ndetse witeze n'igitambaro cy'umweru ari mu muceri ari kuwufuhirira kugira ngo udusimba tuwuriho dupfe ndetse bimufashe kongera umusaruro no kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we.

Abaturage babyukiye mu mirima bari gufuhirira imyaka ndetse uwo muti wica udukoko, kugira wongere umusaruro bibateze imbere ndetse bateze imbere n'imiryango yabo ibafasha mu gukomeza kubaho neza.

Abagabo batandatu bamwe bambaye ubusa hejuru abandi bambaye, babyukiye kuroba amafi kugirango biteze imbere, bateze n'imiryango yabo imbere, bibafashe kubona amafaranga abatunga buri munsi.

Abagabo bari impande ya damu bororeyemo amafi, ifasha abaturage mu kuyorora bakiteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo. Ndetse bayikuramo inyama z'amafi n'ibindi kandi bibinjiriza amafaranga.

Indamu nini bororemo amafi, ifasha aborozi, mukurora amafi yabo, biteza imbere, bateza imbere n'imiryango yabo, kugira ngo babone amafaranga abatunga, ndetse n'atunga imiryango yabo.

Abantu babyukiye mu gishanga, baje kuroba amafi kugira ngo babone uburyo babaho, biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo, bakuramo amafaranga mu gihe bayagurishije ndetse bakabona n'ibibatunga.

Umugabo ufashe ifi nini, yambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse asa naho yishimye, akikijwe n'ikiyaga ndetse n'ibiti bimeze neza, harasa neza bitangamuka, ku bantu bahegereye.

Umusore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu n'agapfukamunwa, ufashe ifi nziza nini ndetse itanga intungamubiri, inafasha n'abantu kwiteza imbere harimo nk'abarobyi n'abandi.

Umugabo uri kumwe n'abana babiri waje kugaburira amafi nk'ikidamu kinini, bimufasha kwiteza imbere guteza imbere umuryango we ndetse bikamuha n'amafaranga yo guha abana b'abanyeshuri kugira ngo babone uko biga.

Abagabo bane bafite indobane bagiye kuroba mu kiyaga, bibateza imbere, bakuramo amafi bakayagurisha, bakabona amafaranga barihira abana babo ndetse bakiteza imbere nabo ubwabo bakabona uko babaho.

Umugabo wabyukiye ku kiyaga yaje kuroba amafi ndetse amuteza imbere agateza imbere n'umuryango we kandi bakabona ibyo kurya bakabona na minerivare yo kurihira abanyeshuri ku ishuri kandi bakiteza imbere.

Abagabo babiri bambaye ibinshwetu by'ubururu, n'aborozi b'amafi, bayororera mu kidamu bubatse ahangaha, bibafasha kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse no kubona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwose bwa buri munsi.

Ubworozi bw'amafi bufasha abarozi bayo, kubona amafaranga yo kwitunga ndetse no kurubeshaho ingo zabo, bikabafasha no kubona akazi ndetse bigakomeza no guteza imbere igihugu.

Ubworozi bw'amafi, bufasha abayobora, kwiteza imbere bugatanga akazi ndetse bugatanga n'amafaranga, kugira ngo abaturage babone ibibatunga, hamwe no kubona amafaranga yo kujyana abanyeshuri ku ishuri.

Utegurire ibiti mbere yuko bijya guhingwa ndetse biba biri mu bihoho kugira ngo bituma bifasha abahinzi mu kubihinga bimeze neza ndetse bigakura neza kubera ko biba byarorowe neza.

Umumama mu gusuramo icyayi bimufasha kwiteza imbere, guteza imbere umuryango we, ndetse bikamwinjiriza amafaranga kugira ngo ayishurire abana bajye ku ishuri ndetse bikamufasha no kubona amafaranga amutunga.

Abaturage bari gusoroma icyayi ndetse bibateza imbere, bakabona ibyo barya, bakabona n'amafaranga barihira abanyeshuri babo ku ishuri ndetse biteza imbere na bayiracyo baba baragihinze ndetse biteza imbere n'Igihugu kugira ngo.

Abaturage bari gusoroma icyayi ndetse icyayi n'igihingwa nzahurabukungu, giteza abantu imbere, abari kugisoroma ndetse na banyiracyo bagihinga, bigatuma n'Igihugu kibonamo amafaranga mu mwanya w'imisoro ndetse n'amahoro.

Abaturage benshi abagabo n'abagore bari mu kazi ko gutoranya ikawa, ndetse kugira ngo babone amafaranga bibafasha kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo, ndetse bakabona ibibatunga n'ibibatungira imiryango.

Umugabo wambaye isaha uri gusuroma ikawa, bifasha abaturage mu kubona akazi ndetse bakabonamo n'amafaranga atunga imiryango, bakiteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo, bibafasha gukukomera no kubaho neza.

Abaturage babyurukiye mu murima bari gusarura umuceri, bibafasha kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo ndetse bakabona amafaranga abatunga, bakabona n'andi yo guha abana babo kugira ngo bajye ku ishuri.

Abaturage bari gufata ibiti byo kujya gutera mu mirima yabo hari mo ikawa n'icyayi kugira ngo babone uko biteza imbere bateza imbere imiryango yabo ndetse bibafasha kuzahura ubukungu.

Ikawa ni buhinzi nzahurabukungu bufasha abaturage kubona akazi, kwinjiza amafaranga, ndetse bakiteza imbere bagateza imbere imiryango yabo, ndetse bakumva bameze neza.

Abaturage aho bavuye gusoroma ikawa, kugira ngo bayigurishe biteze mbere bateze imbere imiryano yabo ndetse bifasha n'igihugu kubona amafaranga, bigatanga n'akazi ku baturage batandukanye.

Umumama uri mu muceri uri kuza kureba umeze n'aho ugeze bibafasha kwiteza imbere guteza imbere imiryango yabo ndetse bakabona amafaranga batunga ndetse n'ayo kujyana abana babo ku ishuri.

Amacupa arimo imiti y'amatungo harimo nk'inkoko, zifasha abahinzi n'aborozi mu kuvura amatungo yabo kugira ngo abeho neza ndetse ababyarira umusaruro babonemo amafaranga biteza imbere.

Ibikarito birimo imiti y'amatungo, ifasha abahinzi n'aborozi kuba amatungo yabo kugira ngo bayavure akire ndetse abahe umusaruro harimo nk'amata, inyama n'ibindi, bibafasha kwiteza imbere no guteza imiryango yabo imbere.

Amakarito menshi cyane ari imiti y'amatungo ifasha aborozi mu kuvura inka, intama, ihene zabo kugira ngo biteze imbere ndetse babone n'amafaranga abatunga ibikorwa byabo bya buri munsi.

Amacupa arimo imiti y'amatungo afasha aborozi, mu kuyavura kugira ngo akire, abateza imbere ndetse nabo biteza imbere, kugira ngo bumve , bayeho neza babone amafaranga yo kurihira abanyeshuri babo.

Akuma k'umutuku ni igikoresho bakoresha bari gutera inka iherena kugira ngo bamenye umubare w'inka ziri mu karere cyangwa se mu kagari, bifasha abaturage mu kurinda kwibwa inka ndetse no gutakaza inka mu buryo bworoshye.

Ubuhinzi bw'umuceri buteza ababukora imbere kuko bakuramo amafaranga, bagatanga n'akazi, ku bantu baje gukoramo, abawurinda, abawuhinga ndetse bakabona n'ibibatunga.

Ubuhinzi bufasha abaturage mu kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse babonamo amafaranga abatunga, ndetse n'andi atunga imiryango yabo, bakabona n'uko bajyana abana babo ku ishuri.

Abaturage babyukiye mu muganda wo gutera ibiti, bambaye ingofero z'umweru n'abandi bambaye amashati y'umweru ndetse babyutse kugira ngo batere ibiti birwanya isuri ndetse bizabafasha no mu buzima bw'ejo hazaza.

Umumama uvuye mu mashu, kugurisha hari n'umugabo ufashe ishu, ndetse bimufasha kwiteza imbere, guteza imbere umuryango we, ndetse no kubona ibyo arya, kugira ngo abone uko abona imbaraga, zo gukora ibindi bintu.

Abaturage bavuye mu mirima yabo bavuye gusarura ibyo bahinze ndetse no kuhira ibindi, bari kunyura ahantu hari ibigori bikiri bitoya ndetse bigeze mu gihe cyo kubagara.

Umugore ari mu nka, harimo n'umugabo uri gukama. Bifasha abaturage kwiteza imbere binyuze mu kugurisha amata ndetse no kubona ifumbire yo gufumbira imirima yabo.

Ifamu nini nziza zororewemo inka nziza z'inzungu, zifasha abaturage mu kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo, zitanga amata umukamo mwiza ndetse zitanga n'ifumbire, kugira ngo bahinge imyaka beze.

Umugabo uri mu murima ari guhinga, kugira ngo abone uburyo atere imyaka ye, bimufashe kwiteza imbere, guteza imbere mu rugo rwe, ndetse no kubaho mu buzima bwiza, abona imyaka, ndetse anasarura neza.

Umugabo n'umugore bari mu bihingwa, bari kuranduramo ibyatsi kugira ngo bikure neza bifite imbaraga ndetse bizabafashe mu kubona umusaruro uhagije biteza imbere, bateze imbere imiryango yabo.

Abaturage benshi cyane babyukiye mu gikorwa cyo gutera ibiti kugira ngo bizabafashe mu gihe kizaza, akamaro k'ibiti harimo gukurura imvura ndetse bakazabibazamo n'imbaho mu gihe byaye kandi izo mbaho zivamo intebe n'ameza.

Imyumbati ni igihingwa cyera ibintu byi bimeze nk'ibijumba ndetse gifasha abaturage mu kwiteza imbere, kivamo ibintu byinshi bitandukanye harimo nk'ubugari ndetse bakabugurisha bakabonamo amafaranga batunga.

Ibigori ni ibihingwa byiza bivamo ibintu byinshi bitandukanye, bivamo ifu dushigishamo igikoma, bivamo umutsima ndetse biteza imbere n'abaturage mu gihe babigurishije, ndetse bakabonamo n'amafaranga yo kurihira abana ku ishuri.

Resitora nziza iteka ibiryo bitandukanye, harimo imboga n'imbuto, imbuto harimo imiteja, inyanya, ubutunguru ndetse n'ibibiringanya, bifasha abantu kurya bakumva bamerewe neza.

Umurima bateguye neza, bagiye guhingamo imbuto, ariko ukaba urimo imyumbati ifasha abantu mu kwiteza imbere, bakuramo ubugari ndetse bakarya n'imyumbati ubwayo, biteza abantu imbere, bibinjiriza amafaranga, ndetse bigatuma bita ku miryango yabo.

Umurima mwiza uhinzemo imyumbati, ifasha abahinzi kwiteza imbere mu gihe bayigushije ndetse bagateza imbere n'imiryango yabo kandi havamo n'ibintu byinshi bitandukanye harimo nk'ubugari.

Insina nziza ziriho ibitoki, ziri hafi y'inzu nziza iteye irangi ry'umukara, ubururu ndetse n'umweru, ni urugo rwiza rusakaye neza ndetse ruteye amabengeza kurubamo no kurwicaraho.

Umurima urimo ibyatsi byumye, usa naho uriho umwumbati baranduye, igiti cy'imyumbati iyo bagihinze cyera imyumbati myiza minini ndetse bigafasha ba nyirikuyihinga, kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo.

Indimu ni urubuto rusharira rwera ku giti, rufasha abantu mu gukiza inkorora ndetse no kwivura mu buryo butandukanye ndetse bararurya nubwo bwose rusharira ariko ni umuti.

Amasashe arimo ibyo kurya harimo nk'amakaroni n'ibindi bifasha abaturage kurya ndetse no kwiteza imbere ku bantu babicuruza, bagateza imbere imiryango yabo ndetse bakabona n'amafaranga barihira abana ku ishuri.

Ubuhinzi bw'ibigori bufasha abaturage mu kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo babonamo amafaranga yo kujyana abanyeshuri ku ishuri, babonamo n'amafaranga yo guhaha ibyo kurya ndetse bakumva barakomeye babayeho neza.

ishyamba rinini cyane ririmo ibiti byiza ndetse bifasha abaturage mu kubona inkwi zo gucana ndetse no gukuramo imishingiriro yo gushingiriza ibishyimbo kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Igiturage cyiza kinini cyegeranye n'imisozi myiza, iteye neza, ihinzeho ibiti bidufasha kubona inkwi zo gucana ndetse bigakurura n'imvura, bikanadufasha kubazamo imbaho zo gukuramo ameza n'intebe.

Urutoki ndetse rwegeranye n'ishyamba rinini, rifasha abaturage mu buryo butandukanye, barisenyamo inkwi ndetse rituwemo n'inyamaswa, zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga ku gihugu.

Igiturage cyubatse neza kirimo amazu atandukanye, inyuma y'aho hatera insina ndetse n'ibiti, insina zifasha abantu kwiteza imbere kugira ngo abaturage babone ibyo kurya ndetse babone namafaranga bakorera ibindi bintu bitandukanye.

Akayira abantu banyuramo mu gihe bavuye mu mirima gusarura imyaka yabo ndetse no mu gihe bagiye guhinga bikabafasha gutwara ibintu byabo ndetse kara kikijwe n'ibiti n'imirimo myiza.

Ishyamba rinini cyane, ribe riteye amabengezi, rikurura imvura rikaba ricumbikiye inyamaswa, ndetse zigakurura ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga ku gihugu, nabyo bigatanga akazi ku baturage.

Igiti kinini kibereye kucyicaramo uri kugamamo izuba, hasi harimo n'ubwatsi bwiza kuko baragiye mo ihene, zifasha ba nyirazo kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo ndetse zibaha n'ifumbire.

Insina, ibitoki n'amazu amwe amasakaje amabati atukura ndetse n'amataba meza abereye ijisho bahingaho ibintu byinshi bitandukanye: hari ibigori, harimo amasaka ndetse n'imyumbati.

Ishyamba rinini cyane riririmo ibintu bitandukanye, ririmo inyamaswa rikaba ririmo n'ibindi bintu bikurura ba mukerarugendo bakaza bagatanga amafaranga, ndetse binatanga akazi ku baturage batandukanye bayobora ba mukerarugendo.

Abahinzi batatu bari mu murima uhinzemo imbuto zitwa amatunda, bibafasha kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse no kubona amafaranga yo kurihira abana ku ishuri, mu gihe babohereje.

Abagabo n'abagore bari mu bucuruzi bw'inyanya nziza cyane begereye ahantu heza, hariho ibiti byinshi byiza bitanga umwuka mwiza ndetse nabo biteza imbere binyuze mu gucuruza bateza imbere imiryango yabo.

Ahantu bororera ibiti, kugira ngo bazabone uburyo babitera mu murima, biracyari mu bisashi bakunda kwita ibihoho, bibifasha mu kutuma ndetse no gukura neza, bikabikomeza kugira ngo abahinzi babifate bage kubitera.

Umubyeyi wambaye neza uteze n'igitambaro ari gusarura inanasi, bimufasha kwiteza imbere, guteza imbere umuryango we ndetse akabonamo n'amafaranga yo guhaha no kwishyurira abana ku ishuri.

Abaturage bari guhinga, imbuto n'indabo kugira ngo babone uko biteza imbere, bari gupima ibipimo by'uko bagomba gushiramo intera kugira ngo ntibizangirike cyangwa se ntibizabyigane, bibone uko bikura.

Umurimo munini cyane urimo abahinzi barimo kuhira imyaka yabo harimo n'ibihombo biri gushiramo amazi kugira ngo ibigori bikure neza ntibyume, bibafasha kubona umusaruro uhagije.

Amatiyo manini cyane yuhira imyaka ajyana amazi mu mirima kugira ngo barinde imyaka kuma ndetse bifashe abahinzi kwiteza imbere ndetse bibongerere umusaruro, biririnde n'imyaka kuma.

Mu mirima ihinzemo imyaka ndetse aho bayuhira bakoresheje amatiyo bikabafasha mu kongera umusaruro, kwiteza imbere ndetse no guteza imbere n'imiryango yabo babona imyaka myiza.

Imashini yuhira imyaka abaturage bakabona uburyo bongera umusaruro mu gihe cy'izuba ndetse bibafasha no kwiteza imbere bakabona umusaruro uhagije ndetse bagateza imbere n'imiryango yabo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ingofero ndetse n'ishati y'ubururu, ufashe itiyo ari kuhira imyaka kugira ngo ituma, bimufasha kubona umusaruro ku gihe kugira ngo yiteze imbere, ateze imbere n'umuryango we.

Abagabo bahagaze ku mugezi utemba ndetse bari imbere y'ibyuma biteye irangi ry'umweru, umutuku hari n'agasozi keza kabonereye ijisho ndetse bibafasha kuruhuka igihe baruhutse akazi.

Umuntu ufite rozwari arimo kuhirira imyaka kugira ngo yice udusimba, ndetse anayifuhire kugira ngo ituma, bimufasha guteza imbere no guteza imbere umuryango we.

Umugabo uri hafi y'amazi ari gushaka uburyo ayafungura kugira ngo ajye mu mirima yuhire imyaka kugira ngo abone amafaranga ndetse n'imyaka ye imubyarira umusaruro abona uko yiteza imbere, ateza imbere n'umuryango we.

Amataba meza, ariho ubwatsi bwiza, bwafasha aborozi mu kuragira inka zabo ndetse bugatuma babona umukamo mwiza ndetse bakiteza imbere, agateza imbere n'imiryango yabo.

Ingo z'abaturage zikikijwe n'ibyatsi n'insina n'ibindi bihingwa, bibafasha kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse bakabaho neza bitagoranye, kandi bagafashanya mu bintu byose.

Imisozi myiza iri ahantu heza hariho ibiti ndetse n'ibihingwa harimo n'amashamba afasha gukurura imvura agakurura ba mukerarugendo bikinjiriza igihugu bigatanga akazi ku bantu bahegereye.

Inzu z'amategura ndetse hari n'imirima ihinzemo iminsia, ni ahantu hanini hahinze ibintu byinshi bitandukanye, bifasha abaturage mu kwiteza imbere, kubona ibibatunga ndetse no kubona akazi.

Ubworozi bw'inkoko bufasha ba nyirazo gutera imbere bakubaka imiryango yabo, bakabona amafaranga yo kurihira abana ku ishuri ndetse biteza imbere Igihugu binyuze mu gutanga imisoro ndetse no kugaburira abana amagi.

Abaganga b'amatungo, bambaye imyenda y'ubururu bamwe abandi bambaye imyeru, bari ku nka zitwa inyambo zifite amahembe maremare, ndetse baje kuzitera intanga kugira ngo zizabyare inyana nziza, zongera umukamo, ndetse zibyarire umusaruro abazorora.

Ubworozi bw'ihene zifite ibara ry'umweru zifasha aborozi kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo ndetse babona ifumbire yo gufumbira inyuma yabo, ndetse bakanazigurisha bakabona n'amafaranga yo kujyana abana ku ishuri.

Ubworozi bw'imbata ndetse n'andi matungo bufasha ababukora aborozi kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse babonamo amafaranga yo kurihira abana ku ishuri ndetse bakabona n'amafaranga yo kugura ibibatunga.

Ubworozi bw'inkoko butuma aborozi biteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo ndetse bakabona n'amafaranga yo kurihirira abana ku ishuri babonamo amagi bakabonamo n'inyama.

Inzu nini yubakushijwe ibiti ifasha aborozi kororeramo amatungo harimo: ingurube, inka, intama ndetse wakororeramo n'inkoko, bigafasha aborozi kwiteza imbere, guteza imiryango yabo imbere.

Inzu nini irimo ibyuma by'umuhondo ndetse n'ibyumweru, iteye irangi ry'umweru, irimo udufuka tw'umuceri ndetse ikaba ifasha abantu, kwinjiza amafaranga, bakabona n'ahantu bakorera umuceri wabo neza.

Abagabo n'abagore bari mucyumba cyiza, bambaye amapantaro y'umukara ndetse n'amataburiya y'umweru n'ingofero z'umuhondo n'umutuku, bari mu cyumba giteye irangi ry'umweru, hakorerwamo ibintu bitandukanye harimo gutunganya imbuto, kugira ngo zibone kujyanwa mu murima guhingwa.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru yambaye n'uturindantoki tw'ubururu ari ahantu hasa nk'ahategurirwa imiti mu cyumba cyiza giteguye neza ndetse ari gutegura imiti yo guha amatungo.

Umuganga w'amatungo wambaye isurubeti y'ubururu ndetse ari gutera inka intanga kugira ngo izabyare inyana nziza iteze imbere nyirayo ndetse na we imuteza imbere kuko abona amafaranga.

Umuganga aho amatungo ari ugutera inka intanga kugira ngo izabyare inyana nziza ndetse bibafasha kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo babona amafaranga yo kurihira abana ku ishuri ndetse n'amafaranga yo kwitunga.

Inka y'umweru n'inka y'umukara ziri mu kiraro bifasha aborozi kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo, babonamo amafaranga bakuye mu mata ndetse bakabona n'ifumbire yo gufumbira imirima yabo.

Abaganga b'amatungo babyukiye mu gupima inyamaswa ndetse bareba icyaziteye gupfa kugira ngo bamenye uburyo bashaka umuti wazivura kugira ngo biteze imbere.

Inka nziza y'umweru n'umukara irangije kubyara inyana isa na yo ndetse ifite n'icebe ryiza ritanga amata ndetse bizafasha nyirayo kubona amafaranga abivanye mu mata ndetse agurishije n'inyana cyangwa se na we akayorora.

Umuganga w'amatungo w'umugore, wambaye itaburiya y'umweru, uteze n'igitambaro cy'umukara, ari gutera inka intanga kugira ngo izabyare inyana ndetse bigirire akamaro nyiri inka, abone n'amafaranga yo kwiteza imbere.

Umuganga w'amatungo wambaye uturindantoki tW'ubururu, Itaburiya y'ubururu. Arimo gutera inka intanga ndetse no kuzivura kugira ngo zibeho neza zibone uko zikura kandi abonemo amafaranga na banyirazo biteza imbere.

Umuganga w'amatungo uri gutera inka intanga kugira ngo izabyare inyana nziza ndetse biteza imbere nyiri nka, abone amafaranga yo guha abana ngo bajye ku ishuri ndetse abonemo n'ifumbire.

Abaganga b'amatungo bambaye imyambaro y'akazi, bari mu cyumba cyiza, aho bari kuvura itungo kugira ngo nyiraryo rimugirire akamaro, yiteza imbere ndetse ateze imbere n'umuryango we.

Abaganga b'amatungo bambaye amataburiya y'umweru bari mu cyumba cyiza bari gupima imiti kugira ngo barebe ifite ubuziranenge bagende bayivurishe amatungo harimo inka, ingurube, intama ndetse n'ihene.

Imbwa ziryamye ku birangiti ndetse zaje kugira ngo bazitere inshinge zigabanya ubukana kugira ngo uwo zaruma ntagire ikibazo ndetse ntagire ubusabwa mu mubiri we.

Imbwebwe n'inyamaswa ziba mu gasozi, zikunda kumoka cyane ndetse zirya inkwavu, zirya inkoko, zirya n'utundi tuyamaswa dutoya ndetse hari naho zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga baje kuzireba.

Inzovu ni inyamaswa nini igira amahembe meza n'amatwi manini ndetse zikunda kuba mu mashyamba zikurura ba mukerarugendo, zigafasha abantu mu kwishima ndetse no kumva bamerewe neza.

Nyirabuhene nako ni inyamaswa iba mu ishyamba ikurura ba mukerarugendo, ikabafasha kumva batse neza ndetse bitanga n'akazi, bikinjiriza n'igihugu iyo batanze amadovize, ndetse bidufasha kwinjiza kwinjiza n'amafaranga.

Imparagi ziri kunywa amazi, zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga ndetse bakinjiriza igihugu, bigatanga akazi no ku baturage bagendana na ba mukerarugendo.

Agasimba keza kari mu bwatsi, gasa neza ubona asa neza, gakurura ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga akinjiriza igihugu, ibyo bitanga akazi ku bantu, bahakikije.

Inyini zikunda kuba ziri mu mazi ndetse zikurura ba mukerarugendo ziri mu kiyaga kinini, ba mukerarugendo bagatanga amafaranga bikinjiriza igihugu ndetse bigatanga akazi ku bantu bayobora bamukerarugendo bikaninjiriza abandi bantu.

Inyamaswa zo mu ishyamba zimeze neza zisa neza, zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga ndetse agafasha Igihugu mu kwiteza imbere, kuzahura ubukungu ndetse bigatanga n'akazi ku barinzi b'ishyamba ndetse no ku bantu baherekeza ba mukerarugendo.

Ishya ni inyamaswa igira amahembe ndetse iri kurisha ubwatsi ku ruhande rw'amazi hari n'urutare rwiza cyane, ikurura ba mukerarugendo bakaza kuyireba, bagatanga amafaranga bikinjiriza igihugu.